Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umuhondo, umupira wamaboko magufi w'umuhondo n'ipantaro y'umukara akaba ahetse ipompo y'ubururu mu mugongo, ari kuvomerera umuti mu gihingwa cy'umuceri, akaba hirya ye hari ibiti.

Umugabo wipfukiranye umubiri wose yambaye imyenda y'umweru na ga ahetse pombo mu mugongo isa y'icyatsi ifite umupfundikizo w'ubururu ndetse n'imigozi ari gukoresha avomerera imbuto ateramo umuti mu myaka.

Umugabo uhetse ipombo wambaye ingofero n'ishati y'amaboko maremare akaba ari mu murima w'umuceri ari kuvomerera ipombo atera umuti muri uwo muceri, hirya ye hari ibyatsi byinshi.

Umugabo urimo kuvomerera wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ,ahetse ipombo isa ubururu ifite umupfundikizo wumuhondo, akaba agenda ashyira umuti mu myaka.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ufite amafi menshi mu ntoki ze akaba ahagaze iruhande rw'ikidendezi cy'amazi, inyuma ye hakaba hari umuceri ndetse n'ibigori, inyuma n'urutoki.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa ,bameze nk'abakozi bo mu ruganda, bahagaze barimo baritegereza ibyo bakora ,bafashe ku kintu kimeze nk'igitembo, kiri mu nzu isize irangi ry'umuhondo.

Umusore ufite umusatsi, wambaye n'ishati y'amaboko maremare, akaba ahagaze imbere y'icyuzi kirimo amazi, gikoreshejwe shitingi z'umukara. Inyuma ye hakaba hari inzu zirimo imbuto zikoze mu buryo bwa kijyambere.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi izinze akaba afite ifi mu ntoki yayibaze ari gukora ubushakashatsi, yayiciyemo ibisebe ari kuyikora mo imbere kugira ngo arebe niba hari ikibazo ifite.

Umugabo wambaye isurubeti wambaye n'amarinete n'ingofero, ufite amafi abiri mu ntoki ari kuyerekana, iruhande rwe hari amazi ameze nk'ikiyaga yarobyemo ayo mafi.

Ahantu hakikijwe n'amazi ndetse n'imisozi, imbere yaho hakaba hari ibintu by'ibinogo bigiye birimo amazi, bikaba bikikijwe n'ibintu by'ubururu bimeze nka shitingi.

Umusore wambaye ishati y'umweru n'umukara yazinze amaboko, akaba afite agafuka karimo ifi nini cyane, inyuma ye hari ibiti ndetse n'urutoki hamwe n'inyubako.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'isaha ku kaboko, akaba afite ibasi mu ntoki ahagaze iruhande rw'amazi, hirya gato hakaba hari inyubako n'urutoki ndetse n'ikindi kintu kimeze nk'igitanda.

Abantu babiri umugabo n'umugore wagira ngo barimo bararoba bafite amashashi arimo amafi mo imbere bombi bambaye udupfukamunwa bahagaze mu mazi nk'aho aribo bamaze kuroba ayo mafi bafite.

Igishanga kirimo amazi menshi gikorerwamo ubworozi bw'amafi, hakaba hari utuzu twinshi duhagazemo tubamo inkwavu, hirya no hinkuno hari ibiti byinshi by'amashyamba kandi byose bikaba bikikije ayo mazi.

Abantu bari mu murima w'icyayi, umwe ahetse agatebo mu mugongo n'undi aragafite ariko bombi barimo barasoroma. Akaba uw'umugabo afite icyayi mu ntoki ari guseka akereka abantu.

Abantu bari ahantu mu bisambu bameze nk'abari gusarura. Harimo umu mama umwe ndetse n'abana benshi bari hirya ye, bagiye bahambira imitwaro y'ibyo bari gukora.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku n'umweru ihinnye amaboko, akaba ari mu ikawa ari kugerageza gusoroma ikawa. Ibyo biti, bikaba bishishe kandi bifite n'amababi.

Igiti cyiza cya kawa kiriho imbuto zitandukanye z'ikawa, izitukuye, izigisa icyatsi bikaba bigaragara y'uko zitazereye rimwe, harimo izeze hakaba n'izindi zikiri inyuma.

Ibiganza by'umuntu utagaragara mu maso, byambaye umupira ujya gusa ikivurivundi, mu ntoki z'uwo muntu hakaba harimo imbuto zijya kumera nk'iz'igihingwa cya kawa, izi mbuto zikaba zisa umutuku.

Umugore wambaye igitambaro cy'umutuku ndetse n'umupira w'amaboko magufi usa umuhondo, akaba ari mu murima w'umuceri utarera neza hirya ye hakaba hari umusozi uriho ibiti.

Abantu babiri bambaye ingofero, umwe akaba yambaye ishati y'amaboko magufi, undi akaba yambaye umupira, bose bakaba bari ari gusoroma icyayi bashyira mu dutebo. Inyuma yabo harimo abandi bantu benshi.

Imbuto ziri mu ibara ry'umukara zirambitse ahantu hari utuntu tw'utwenge twinshi dupfumuye, inyuma yazo hari ikintu cy'icyuma kiri mu mabara ajya gusa umweru wagira ngo kiraziyungurura.

Igihingwa cya kawa kikaba gifite imbuto zatukuye cyane. Hari n'izindi bigaragara ko baziciyeho mbere, gifite kandi amababi asa neza y'icyatsi uretse ko harimo n'ayandi yatangiye guhisha yenda kuzacika ngo aveho.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru n'ishati y'umweru akaba ari mu murima w'icyayi. Inyuma ye kandi azengurukishijweho icyayi kiri ahantu hose mu mirima,

Abantu babiri umugabo umwe wambaye ingofero ndetse n'umugore umwe wambaye igitambaro bakaba bahetse ibitahiro bari gusoroma icyayi ndetse bakaba bari mu murima urimo icyo gihingwa.

Imifuka myinshi itondetse ahantu, imwe iri mu ibara ry'umuhondo, indi ijya gusa umutuku, ikaba ipakiyemo ibintu bimeze nk'umuceri, ahandi hakaba harimo amakaroni.

Abantu bari ahantu mu nzu iri kwakamo amatara menshi batatu, bafite ingunguru ndetse bakaba bari ahantu hari utwana twinshi tw'imishwi y'inkoko harimo n'ibyo izo nkoko ziriramo.

Imifuka myinshi itondetse iri mu bwoko bw'amashashi, imwe ikaba isa ubururu ndetse n'icyatsi, indi ikaba isa umutuku ikaba ipakiyemo ibintu bimeze nk'umuceri cyangwa se amakaroni.

Amakarito menshi atandukanye yanditseho telemox vet, akaba ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, hakaba hariho n'igishushanyo k'inkoko iri kumwe n'udushwi twayo.

Imifuka iri mu mabara agiye atandukanye imwe ijya gusa nk'ubururu ndetse n'umutuku ikaba iriho ibishushanyo by'inkoko ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru mu mutuku.

Amacupa menshi ariho ibishushanyo by'inkoko ndetse inka n'andi matungo anyuranye arimo n'ingurube, bikaba bipfundikishijwe imipfundikizo y'umweru, biteretse ahantu hari amakaro.

Amacupa agiye agerekeranyije, harimo rimwe ripfundikishije umupfundikizo w'umuhondo, rigizwe n'ibara ry'umweru n'umuhondo ririho igishushanyo cy'inkoko handitseho ngo extra x. Hari n'ayandi ari ku ruhande harimo irifite umupfundikizo w'umweru n'irifite umupfundikizo w'ubururu.

Inyubako yubakishijwe amakaro ikaba mu nzu harambitsemo ikintu kimeze nk'umukasi gifite ibara ry'umutuku, iruhande rwaho hakaba hari ishashi irimo ibintu bisa umuhondo.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro, akaba asutamye mu murima w'ibigori ameze nk'uri kubagara, inyuma ye hari ibindi byatsi by'ibihuru byinshi ndetse n'ibiti.

Ikiraro k'inka cyubakishije ibiti, kikaba gisakaje amabati buri nka ikaba ifite aho irira iruhande rwacyo ahagaze umwana w'umuhungu wambaye agapira n'ipantaro y'umweru.

Inka nyinshi ziri ahantu mu kiraro izo nka zikaba zisa umukara n'umweru, izi nka zose zambaye amaherena ajya gusa ubururu harimo imwe iri imbere yazo.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'isarubeti y'ubururu arikumwe n'umukobwa wambaye igitambaro n' imyenda y'umukara bakaba bari mu gihingwa bari gukurikirana imyaka uko ikora.

Umusaza wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, akaba afite inkoni mu ntoki aragiye inka nyinshi zirimo izifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, hirya ye hari ibiti byinshi ndetse n'uruzitiro rw'imiyenzi.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge, uri ahantu mu bisambu yagiye kwahura ihene, ifite ikiziriko. Aragaragara nk'uri kuyizirika ahantu mu byatsi kugira ngo ibone ukuntu irisha.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe mu murima, bakaba harimo umwe ufite isuka, wambaye agapira k'icyatsi, iruhande rwe hari undi wambaye ijile ijya gusa icyatsi n'umukara.

Umugore wambaye igitambaro ndetse n'ibitenge, ukenyeye n'ikote ry'umukara akaba afite isuka ari mu murima ari guhinga, iruhande rwe hari igiti k'inganzamarumbo.

Abagabo benshi biganjemo bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'ingofero z'umweru, bakaba barimo baratera ibiti byinshi, hirya yabo hari abandi bahagaze harimo n'ufite isaka ndetse n'umuhoro bose bazindukiye mu gikorwa kimwe.

Abagabo batatu barimo umwe w'umupolisi bakaba babyukiye mu gikorwa cy'umuganda cyo gutera ibiti. Bose barapfukamye bari kugerageza gushyira itaka ku giti bateye kugira ngo kizabashe gukura neza.

Abantu bari mu bisambu wagira ngo barimo baratashya, umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye ak'ubururu, hirya yabo hari n'undi nawe wunamye, ahantu bari hari ibiti byinshi.

Igishanga kirimo igihingwa cy'umuceri wenda kwera ariko ukaba ufite amababi agisa icyatsi, hateye igiti kirekire gishinzemo n'akayira abantu bashobora kunyuramo bava ahantu hamwe bajya ahandi ku yindi mirima mu gishanga.

Ibirayi byinshi byiza bisa umuhondo bikaba bigerekeranyije bimwe byaratangiye gushishuka, hari ibigaragaraho itaka rikeya ariko ibindi birasa neza ku buryo umuntu yahita abihata akabiteka nta kibazo.

Umurima urimo ibyatsi byinshi bitandukanye by'amoko yose, ariko muri uwo murima hakaba hateyemo igiti cy'imyumbati gishishe cyane, gifite amababi atoshye kandi yagandaye impande zose.

Umurima urimo ibigorigori byumye bigaragara ko ibigori babikuyeho inyuma yabyo harenze amabuye menshi ay'umukara ndetse n'ajya kuba umweru, hirya y'aho hari ibiti byinshi ndetse n'inyubako ifite igisenge cy'umweru.

Umugezi w'amazi asa nabi uri gutemba, ukaba ukikijwe n'ibyatsi binyuranye hirya no hino. Inyuma yaho hari umurima w'ibigori, urimo ibigori bigiye kwera, inyuma y'ibyo bigori hakaba hari ibiti.

Inzira y'amaguru ica ahantu hagati mu biti n'ibyatsi, hakaba hirya no hino hakikijwe n'imirima y'igishanga irimo amazi, inyuma hakaba hari ibiti byinshi binyuranye.

Ikimera kiri ahantu mu bihuru byinshi, ariko ibyatsi biri hirya yacyo bigaragara yuko byumye, ndetse n'ubutaka bwarumye cyane, nk'aho nta mvura iheruka kugwa. Ariko icyo kimera cyo kiratoshye neza.

Igiti k'inganzamarumbo k'isombe kiri iruhande rw'inzu isize irange, ifite amadirishya y'ibirahure ndetse isakajwe amabati, hirya yayo hari iyindi nzu na yo ifite igisenge cy'umutuku.

Umurima muremure uteyemo intoryi, izo ntoryi zigeze mu kigero cyo hasi, zitangiye kuzana uturabyo zishashishije ibyatsi bimeze nk'ibikenyeri, kandi bigaragara y'uko hirya hari ibiti.

Ahantu hateye ibiti bigiye binyuranye, hari n'umuhanda ukikijwe n'inyubako nyinshi ziganjemo izisakajwe amabati. Inyuma y'izo nyubako hakaba hari imirima iteyemo urutoki.

Ahantu hagenewe guhinga icyayi, bigaragara ko harimo icyo gihingwa, inyuma yaho hakaba hari imisozi ikikijweho ibiti ndetse kuri kw'iyo misozi, hakaba harimo na za nyiraturu zabyukiyemo.

Imyaka y'ibigori iteye ku murima, hirya yaho hari ibiti by'ishyamba, hirya gato nanone hakaba hari amazi menshi atemba ameze nk'ikiyaga cyangwa se umugezi, hakurya y'aho hari ibicu byinshi.

Urugo rwubakishije amadafari rushakakaje amabati, munsi yarwo hakaba hari insina, hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'inzira zigenda. Urebye inyuma cyane hakaba hari imisozi iteyeho ibiti.

Ishyamba ryinshi cyane riri ahantu hijimye ubona yuko hatagaragara neza cyangwa se imvura ikaba igiye kugwa, iryo shyamba riracucitse cyane ku buryo umuntu atabona n'aho akandagira.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'imyeru, ukaba unyura ahantu hari ishyamba ryinshi ndetse n'ibihuru byinshi ku muhanda. Iryo shyamba wagira ngo ngo ni parike cyangwa se ribamo inyamaswa kuko rirafatanye cyane.

Ahantu hari inzira ntoya y'abanyamaguru hakaba harimo abantu benshi, iruhande rwayo hakaba hari ibiti by'ishyamba munsi yayo hakaba hari igihingwa k'icyayi gisa neza, abantu bakaba bari kugenda mu nzira.

Umugezi utemba urimo amazi menshi, ukaba ukikijwe n'udusozi tubiri, utwo dusozi twombi tukaba turimo ibyatsi byinshi. Hakaba harimo kandi n'ibiti binini, bigaragara nk'aho ari amacunga.

Ahantu hagizwe n'imisozi myinshi igiye ikurikirana cyane y'umurambi, muri iyo misozi hakaba harimo amashyamba menshi y'ubwoko bunyuranye, imbere gato hakaba hari ibindi biti bijya gusa umuhondo.

Abagabo batatu bari mu murima urimo imyaka imeze nk'ibinyomoro, bari kugenda ibyo binyomoro babizirikira ku biti kugira ngo bizamukeho neza bizabashe kwera maze bitange umusaruro.

Inyanya eshatu zisa neza cyane zeze zahishije bigaragara yuko ziteye umuti. Inyuma yazo hari izindi na zo zitangiye kwera ndetse n'izitarahisha.

Igihingwa cy'urubuto rwa pome, hakaba hariho imbuto zihishije cyane zisa umutuku, hiryaga hariho amababi ndetse n'ibiti ziteyeho. Zigaragara ko zeze kandi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Imbuto nyinshi zigiye zitandukanye zirimo amatunda, imyembe, inanasi, karoti, inyanya, pavuro sereri, urusenda, imyungu ndetse n'inanasi byose biri kugurishwa mu isoko.

Igiti cy'ikimera gifiteho ururabo rwiza rw'umutuku, muri urwo rurabo harimo utuntu twumuhondo, rukaba ruteye ahantu hatagaragara neza inyuma hariyo ibindi biti.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari kureba umuzungu ufite ishati y'amabara, akaba ari mu murima w'ibitunguru ameze nk'uri kubirandura bo baramutegereje.

Igiti cy'ipapayi gifite amababi menshi hakaba harimo amapapayi yahishije cyane yabaye umuhondo ayandi ahishije gakeya hakabamo n'ayandi agisa icyatsi ku buryo atategereza igihe kirekire.

Inyanya nyinshi kandi nziza cyane zitukuye bigaragara ko zeze neza ziri mu gitebo zipakiyemo kandi zuzuye harimo n'umuntu ufashe urunyanya rumwe mu ntoki utagaragara neza yambaye agapira k'umutuku.

IImashini zabugenewe kuvomerera zica hejuru y'imyaka, zikaba ziri mu murima w'ibigori bigezemo hagati byatangiye kuzana ururabyo. Akaba zikoreshwa mu kuvomerera ibyo bigori.

Umugabo wambaye ingofero n'agapira k'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara na bote, afite umupira arimo aravomerera ibigori, abishyiramo amazi, ibigori biracyari bito.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho mu kuvomerera imyaka aho hari ibitemba byinshi biri kugenda mu murima urimo imbuto ntoya bikagenda bitugereza amazi hirya no hakuno, hakurya y'aho hari ishyamba ryinshi rihakikije.

Umugabo utagaragara igice cyo hejuru wambaye inkweto ndetse n'ipantaro, akaba afite rezwari itagaragara neza, ari kuvomerera igihingwa yateye kimeze nk'ipapayi cyangwa se ipera.

Abantu barimo abagabo n'abagore bambaye impuzankano y'ubururu ndetse na bote z'umukara, bakaba bari mu murima urimo ibigori biteye ku murongo bakaba bari kuvomerera.

Imashini zabugenewe kuvomerera imyaka zikaba zifunguye ziri kuvomerera mu mirima y'abantu iyo mirima ikaba irimo ibihingwa bisa neza kandi bigaragara ko bigiye kwera.

Umugabo uhagaze mu umuma yambaye ishati ya karokaro n'ipantaro yumukara. Imbere ye hari igiti ndetse n'ibindi bimera bimeze nk'inyanya.

Abantu batatu bari mu murima harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye ingofero n'umupira w'icyatsi, barimo baravomerera intoryi bashyiramo amazi.

Umugabo uhagaze mu murima urimo imyaka ikiri mito y'ibigori, arimo aravomerera hirya gatoya hari amashyamba n'ibindi bihingwa byinshi bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'umupira w'amaboko magufi n'ipantaro n'inkweto za bodaboda, akaba afite umupira ari kuvomerera imboga ze amazi, hakaba harimo ibihingwa byinshi bitandukanye.

Imashini zabugenewe ziri ahantu mu myaka y'ikirambi ahantu harambitse zirimo ziravomerera kugira ngo imyaka izere neza, izi mashini zikozwe mu buryo bugezweho ku buryo zivomerera ahantu hanini.

Indobo iri mu ibara ry'icyatsi ikaba iteretseho panu isa umukara ndetse n'umweru, iruhande rwayo hakaba hari ibimera bimeze nk'inyanya ndetse bikaba binasasishijwe ibyatsi byumye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kuvomerera imyaka, aho hari imashini zabuge ziri kuvubura amazi ziyashyira mu myaka yo mu gishanga. Hirya hari umugabo uri kuvomerera ndetse abasha no gutunganya imyaka.

Imashini zabugenewe zivomerera zikaba zifite amapine y'umukara ziri gutera amazi mu myaka mu imyaka y'ibigori bisa neza kandi ubona y'uko byitabwaho buri munsi.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuvomerera amashu, aho amazi ava mu kintu cy'igitembo akazamuka mu kirere agahita amanukira mu mashu, hirya gato hari ibiti bigiye bizengurutse umurima w'amasha.

Icyobo kirimo amazi hakaba hari ibara ry'umweru rigaragara, ayo mazi akaba asa nabi afite ibara rijya gusa umuhondo, bigaragara ko yanduye cyane.

Umugezi urimo amazi atemba, hirya no hino ku mpande zaho hakaba hari ibyatsi, hirya gato hakaba hari imiceri inyuranye. Iruhande rw'uwo mugezi kandi hakaba hari umugore uhahagaze.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko babyukiye mu muganda, bakaba bafite ibiti mu ntoki bari kubitera ahantu mu bihuru, inyuma y'aho hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti byakuze, hakurya na ho haragaragara ibiti binini.

Imirima irimo ubuhinzi bugiye butandukanye ariko hakaba harimo ibimera biteye ku murongo, harimo ibiti by'amashyamba ndetse n'udusozi dutunganyije neza ku buryo wahingamo amatarasi.

Ahantu mu misozi hari ikirere cy'umutuku ndetse n'ubururu. Ibiti byaho bikaba bijya gusa amabara bitewe n'uko izuba riri kwaka ariko hakaba hari n'ibindi bisa icyatsi.

Ahantu hateye urutoki rwinshi rurimo n'ibindi biti hirya y'aho, witegereje hirya gato hari amazi menshi ndetse bigaragara yuko akoreshwa mu gufumbira ahantu runaka.

Inyubako isakaje amabati ikikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi, imbere yayo hari umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro ahagaze areba mu byatsi na we.

Imirima ihingwamo icyayi, ikoze mu buryo bw'amatarasi. Bikaba bigaragara yuko harimo ibihingwa binyuranye, hakurya hakaba hari n'ibindi biti by'amoko menshi, agiye atandukanye.

Ahantu hari imisozi myinshi iteyeho ibiti hanyuma mo hagati hakaba harimo ikibaya kirimo amazi ameze nk'aho ari ikiyaga kandi hakaba hateye ibihingwa bigiye binyuranye.

Inka nziza iri mu kiraro cy'ibiti, ikaba ifitemo amabara yiganjemo ay'umweru, ikaba irimo irarya ubwatsi bwiza butoshye, bumeze nk'aho ari urubingo bayahiriye.

Ikiraro k'inka kirimo inka nyinshi zigiye zitandukanye zifite amaherena, zikaba ziri mu kiraro gisakajwe amabati ndetse n'ibyuma by'umweru zikaba ziri kurisha.

Ibiraro by'inka byubatswe mu buryo bugezweho, byubakishijwe ibyuma bigiye bitandukanye, mo imbere harimo inyana, bigaragara yuko ikiri ntoya, imbere yaho hari ahantu irira.

Inzu itagaragara igisenge, ifite amadirishya isizemo n'irange rijya kuba umuhondo, hasi hubakishijwe amakaro, hanyuma hakaba hateretsemo imashini.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze akaba ahagaze imbere y'ikiraro kirimo inka zifite amaherena y'umuhondo ziri kurya ibyatsi.

Abagabo bane bahagaze ahantu bakingiriza inka bakaba bambaye impuzankano y'ubururu ndetse umwe akaba yambaye n'ingofero, inyuma yabo hari umuntu uri inyuma y'inka wambaye impuzankano y'umweru.

Inyubako irimo umushinga w'inkoko nyinshi zitandukanye hakaba harimo ibikoresho ziriramo bisa umweru, inyuma yaho hari amadirishya, inyuma y'amadirishya hakaba hari ikigega cy'umukara gifata amazi.

Icyuma gifite amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, kikaba gifite n'amapine, kikaba kiri mu nzu iteye irange ry'icyatsi ndetse hasi hakaba hari n'amakaro.

Icyuma kiri ahantu mu nzu gisa umutuku gifite ibyuma by'ubururu ndetse n'amapine y'umukara arimo ibara ry'umutuku, akaba ateretse ku makaro y'umweru ari no mu nzu isize irange ry'umweru.

Inkoko nyinshi ziteraniye ahantu hamwe zikaba ziri kumwe kandi harimo n'ibintu zinyweramo amazi zikanariramo ibiryo, hirya gato biragaragara ko hari igikuta ndetse naho izi nkoko ziba.

Inkoko nyinshi ziri mu tuzu twabugenewe twubakishijwe senyenge munsi hakaba harambuye shitingi, inyuma gato hari ibiti biteranyije bigaragara ko ari ho izo nkoko ziba.

Umugore wambaye isengesho ry'umweru n'ipantaro akaba ari ahantu bahumbikira ingemwe zizajya guhingwa ahandi hantu, hejuru ye hari igisenge cy'amabati cyubakishije ibiti, inyuma ye kure hari ikigega cy'umukara kiba kirimo amazi.

Ibihingwa bikiri bitoya birimo biramera bizamuka, ahantu biri hari imirasire y'izuba kandi biragaragara ko biteye mu itaka ririmo ifumbire, hari umuntu ugaragara ikiganza gusa urimo urareba uko ibyo bimera bimeze.

Ibigori byinshi bigaragara y'uko byumye birambitse hasi kandi wagira ngo babyanitse, ibyo bigori bikaba biri mu mabara ajya gutandukana, ibijya kuba umweru n'ibijya kuba umutuku.

Umwana w'umukobwa urimo aravungura ibigori akaba yambaye ishati y'umweru n'umukara, yicaye ku ntebe y'ubururu, iruhande rwe hari indi ntebe ishaje cyane ijya gusa umukara, mu rugo hari umufuka urambitse hasi.

Imifuka igiye itandukanye irimo ibinyampeke bigiye bitandukanye, harimo nk'ibishyimbo by'amoko yose, ubunyobwa, amashaza, ndetse n'ibindi, hakaba harimo kandi n'ibishyimbo by'umukara.

Inka nyinshi bateranyirije mu rupangu zikaba zifite amahembe maremare nyuma yazo hakaba hari abagabo bambaye ubusarubeta by'umweru n'ingofero z'umweru baje kuzivura, harimo n'undi bambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo wambaye igisurubeti, akaba ari iruhande rw'ikiraro cy'inka, cyubakishije ibiti ndetse n'amatafari ahiye, akaba ari gukora mu nda y'inka y'umukara.

Inka nyinshi zifite amahembe maremare ziri kunyura ahantu hari ibyatsi byinshi, hirya y'aho hakaba hari inzu ebyiri imwe ifite igisenge cy'amabati y'umutuku n'ikindi gifite amabati ajya kuba umweru, inyuma y'aho hari ibiti binini byinshi cyane.

Inka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara ikaba ifite igikomere kinini ku mugongo nkaho bayibaze, iruhande rwayo hari ibyatsi byinshi binyuranye.

Abantu babiri batagaragara ibiganza, bambaye ga mu ntoki, bakaba bari kubaga inyamaswa iri kuva amaraso, iyo nyamaswa ikaba igaragara amatwi ndetse bakaba bafite n'ibyuma bari kuyibagisha mu ntoki.

Imbabura itekeshwamo amakara ikaba iteretse iruhande rw'akantu baheramo inkoko ibiryo, inyuma y'aho hari ibyuma by'umutuku birimo imifuka myinshi.

Abantu bameze nk'abaganga bambaye ingofero zijya gusa ubururu ndetse n'impuzankano bakaba bashyize inyamaswa ku meza, bafite inshinge mu ntoki bagiye kuyisuzuma.

Inyamaswa y'ingwe yarakaye, ikaba iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba yicaye ahantu mu byatsi. Inyuma yaho kandi hari ibindi biti bigiye binyuranye biyikikije.

Imodoka irimo abantu ba mukerarugendo bari kugenda bafotora, imbere yabo hakaba hari inzovu, ifite amahembe y'umweru, iyo modoka ikaba iparitse ahantu mu byatsi.

Inyamaswa ziri ahantu ku musozi zikaba zifite amahembe uko ari eshanu zirukanka zihunga cyangwa zirwana, inyuma yaho hari umusozi uriho ibiti ndetse n'ibyatsi.

Inyamaswa nini iteze amahembe ikaba iryamye ahantu mu byatsi birimo uturabyo twinshi tugiye dutandukanye, irasa umukara kandi iri kwitegereza hakurya k'aho hari ikintu iri kuhareba.

Ishyamba ryinshi ririmo ibiti byinshi bitandukanye, muri iryo shyamba harimo intare isa nk'iyarakaye cyane ifite ubwoya bwinshi, iryamye ireba imbere, imeze nkaho hari umuntu irimo kwitegereza.

Igiti k'ingeri cyumye cyane, hejuru yacyo hakaba hariho inyamaswa ifite ubwoya bwinshi, imeze nk'isinziriye. Hirya y'aho hari ibihuru by'amoko menshi agiye atandukanye.

Igishuhe kiri mu mabara y'umweru, umukara, ndetse ku munwa hariho ibara ry'umuhondo kirihagaze ahantu hari ita ryinshi ariko kireba ahantu harimo sima wagira ngo kigiye gushakamo ibyo kirya.

Igisiga kinini kiri mu mazi gifite amabara y'umukara n'umunwa w'umweru ndetse n'amababa y'ikivurivundi, kikaba kiri kugenda gikuriza inda mu mazi menshi. Urebye hakurya harimo amabarabara kubera izuba riri kusamo.

Parike irimo inyamaswa imwe ikuze, hirya yayo haparitse imodoka, iyo nyamaswa irimo irapfunda hasi, hari n'igiti kinini n'inyuma hari ibindi biti byinshi.